Icyapa mu ibara ry'ubururu n'umweru cyanyanditseho ijambo aniramu inzira y'abanyamaguru irimo amapave mu busitani, indabo, inzu mu ibara ry'umweru n'uruzitiro.

Umugabo utwikiriwe n'umutaka w'umutuku wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, umusatsi w'umukara handitse geti e layifu inshuwarensi tudeyy purimiya, azi lowu azi, teni yuesidi pa mafu.

Icyapa kinini cyifashishwa mu kwamamaza mu ibara ry'umutuku kiriho umwana ufite inkoni mu ntoki wambaye ubupiro w'umukara cyanditseho hiti homu wizi emu andi emu inshuwarensi kompentitivu.

Umugore uri kuvugira kuri terefone, wambaye imyenda y'umweru uryamye ahantu hari amashuka y'umweru mu umusego handitseho, kuba hoteri yuzuye ntibikwiriye guhungabanya urugendo rwawe.

Ukuboko k'umuntu urikwandika anashushanya ku rupapuro rusa umuhondo rwanditseho ngo: "tamu rayifu ishuwarese" ndetse n'igishushanyo gisa umuhondo kizengurukijweho amabara asa umukara.

Iduka ryifashishwa mu gucuruza imyenda y'abagore iri mu mabara atandukanye hasa umweru n'umukara ndetse n'amasakoshi imyenda imanitse ku byuma byagenewe kumanikwa imyenda.

Iduka ricuruza imyenda y'abagore iri kutwuma dushyirwaho imyenda harasa umweru ndetse no hasi naho harasa umweru n'amatara ari kwaka.

Iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye imanitse ku tuntu dufata imyenda kugira ngo ikomeze ihagarare ntakwipfunyapfunya, iyo myenda ikaba isa n'imyenda y'abagore.

Abantu babiri umugore n'umugabo uw'igitsinagore ufite uruhu rwerurutse, ndetse n'umugabo ufite uruhu rwirabura bari mu iduka ricuruza imyenda ndetse na mudasobwa imbere yabo.

Umugabo wambaye ishati yumweru ipantaro y'umukara, inkweto z'umweru ari guhererekanya urufunguzo rusa nk'urukozwe mu gipapuro runini, rwanditseho akagera motazi, iruhande rwiwe hari umugabo wambaye ishati, amarinete, ingofero y'umukara, ipantaro y'umukara inkweto za shokora. Inyuma yabo hari imodoka nini yo mu bwoko bwa fuso ihagaze y'ibara ry'umweru n'umukara.

Imodoka mu ibara ry'umweru, amapine y'umukara iparitse ahantu hari utubuye tugenderwaho, ndetse n'umugabo wambaye umupira utukura n'ipantaro y'umukara, ufite icyapa mu ntoki cyanditse eyibiji Akagera moto, inyuma ye hari inzu n'izindi modoka ziparitse.

Inzira nyabagendwa yagenewe abagenzi iri kunyuramo abantu, ibyapa bigaragaza ibikorerwa ahantu ubusitani, indabo n'ibyatsi.

Imodoka zifashishwa mu gutwara imfungwa n'abagororwa, mu ibara ry'icyatsi ziparitse ahantu hari utubuye tunyurwaho, harimo ibidukikije birimo ibiti ndetse n'abagabo babiri bari kuganira.

Imodoka isa umweru n'umukara iparitse ku muhanda w'igitaka iruhande rwayo hari ibindi binyabiziga, hirya hari amazu maremare ndetse n'ibidukikije.

Imodoka y'umukara, ifite amatara y'umuhondo, iparitse mu muhanda w'umukara ukikijwe n'amazu ndetse n'uruzitiro, n'ibidukikije birimo ibiti.

Inote z'amafaranga mu ibara ry'umweru n'amagambo yanditseho umuntu azifite mu ntoki ,ibiganza bibiri birimo birabara amafaranga n'imashini yifashishwa kubara amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Igiceri gifite umuzenguruko wuruziga mu ishusho isa umuhondo cyanyanditseho igihumbi kimwe maganacyenda na mirongo irindwi na karindwi banki nsiyonari di rwanda hariho igihingwa.

Impapuro z'amafaranga nyinshi ziri kubarwa hafi y'icyuma cyifashishwa mu kubara amafaranga mu buryo bw'imibare ari mu kiganza kirabura.

Amazi ari mu ducupa yanditseho nili kubwinshi, ndetse ateretse ahantu hasa umweru ndetse n'ubururu, hari urupapuro rwanditseho emu ayi kiyu ndetse na mvilope.

Ahacururizwa ibiribwa n'ibinyobwa birimo amata, ndetse n'ibyifashishwa mu kurya, harasa ubururu ndetse n'umweru, harimo amakarito apanze mu kabati, ndetse n'indobo zipfundikiye ibyo kurya.

Ibinyabiziga birimo ipikipiki n'amagare, biparitse ahantu hari amakaro y'umweru, hari kunyurwa n'abantu, ndetse n'ibidukije birimo ibiti.

Ibicuruzwa by'amata biri mu makarito, utubido ndetse n'udukombe duto n'uducupa, biri ahantu hacururizwa.

Iduka rifite inkuta ry'ubururu ryubakishijwe amakaro hasi, ricuruza ibikomoka ku mata atunganyije harimo amata afunze mu dukarito, iruhande rwayo harimo n'imitobe itandukanye ikozwe mu mbuto, munsi yayo hari amacupa y'amazi n'ayo agurishwa.

Ahacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa byiganjemo amata n'ibindi bikomoka ku matungo, harasa umweru, ubururu, amakaro ni umweru, imeza ndetse n'intebe bikozwe mu biti.

Igikoresho cy'itumanaho kizwi nka telefoni mu ibara ry'umweru, umuzenguruko w'umukara, ikiganza, inzara z'umweru, imibiri yombi.

Inzu y'aho ikigo cya kopedu limitedi gikorera, umugore utegereje kwakirwa, intebe zicarwaho, amatara ari kwaka, ibibambasi mu ibara ry'umweru.

Amafaranga y'inoti mu ibara ritukura n'umweru, ndetse n'andi ari mu ibara ry'umweru n'umukara ariho ifoto y'umugabo y'ijana ndetse n'andi y'ibihumbi ijana ari kubarwa mu ntoki.

Umugabo ufite impapuro z'inoti z'amafaranga mu ntoki, yazirambuye zirasa umweru n'umukara ndetse n'umutuku n'umweru, mu biganza yambaye ishati y'umweru n'isaha n'imipeta ku rutoki.

Amafaranga ari ku meza y'igiti inote eshanu, iya makumyabiri, iy'ibihumbi cumi, iya bitanu iy'igihumbi n'iya magana atanu.

Umuntu ufite inoti mu ntoki, uri kuzibara mu biganza bibiri, yambaye isaha n'umupira w'umukara, umubiri we ni umubiri wirabura.

Ibiganza bine bifite amafaranga yari kuyahererekanya asa umweru ndetse n'andi asa umutuku n'umweru byose n'ibiganza byirabura umwe yambaye ishati y'umukara ndetse agakoma.

Abagabo babiri bafite uruhu rwera, umwe wambaye umupira utukura undi wambaye umupira w'ubururu, bar'ahantu hari irangi ry'umweru ndetse n'umutuku ibyapa byamamaza ndetse n'amatara yaho.

Urugero rukozwe mu birahure ruriho amarido y'umweru ndetse hariho n'icyapa mu ibara ry'ubururu amagambo yanditswe mu ibara ry'umubururu n'umukara handitse ti ayi si foregisi piviti rimitedi , ndetse n'amatara ari kwaka.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, yanditse Giraneza Sali Foregisi biro. Bivuga ahakorerwa ivunja ry'amafaranga.

Umugore wambaye amaherena, wambaye imyenda y'umukara, ari guhererekanya amafaranga afashwe mu ntoki zombi n'umugabo uri iruhande rw'ikirahure, wambaye ishati irimo imirongo.

Ibikorwa by'ububaji birimo ibiryamirwa, ndetse n'ibigederwaho mu ruganiriro biri ahantu hari utubati ndetse n'inzu, ifite ibara ry'umukara n'inzugi zifunze n'izifunguye ndetse n'amabati.

Utubati tubiri, tubajwe mu biti, dufite imiryango ifunguka, turi mu nzu, isa umweru, amatara arimo araka, intebe, ndetse n'umucyeka.

Icyumba cy'uruganiriro, intebe ebyiri, imisego mu ibara rya shokora, imeza y'ikirahure, amakaro y'umweru.

Icyumba cy'uruganiriro intebe eshatu, imwe ifite imyanya itatu n'indi ifite imyanya itatu, imeza izengurutswe n'utumeza dutoya dutatu.

Intebe zo mu ruganiriro mu ibara ry'umweru ndetse na shokora hagati yazo hari ameza ziteretse ku makaro asa umweru n'ibirahure bifunze.

Ibikoresho by'ubugeni bibajwe mu biti harimo intebe, ameza bikoreshwa mu cyumba cy'uruganiriro ndetse n'aho kurira biri aho ibikoresho bikorerwa hari n'ibindi bikoresho.

Igikoresho cy'ububaji cyifashishwa mu cyumba cy'uburuhukiro gikozwe mu mbaho kirasa umutuku ndetse n'umweru gifite amaguru ashinze hasi kandi kiri ku butaka n'ibindi bikoresho biri k'uruhande.

Igikoresho cy'ubugeni mu buryo bubajwe igiti giteretse ku maguru y'icyuma giteretse ku mabuye y'amapave.

Ibikoresho by'ubugeni bibajwe birimo intebe, ameza, byose bikozwe mu biti, biteretse ku mabuye yagenewe kugenderwaho iruhande rw'inzu ifite irangi ry'umweru n'ibirahuri by'umukara.

Ururabo ruteretse ku meza asa umweru, intebe na yo isa umweru, amarido ndetse n'urugi rufunguye, ibidukikije birimo ibiti hanze ndetse'utwuma...

Umuntu uri kuri mudasobwa, ufashe impapuro mu ntoki, wambaye imyenda isa umukara n'umweru, ku meza y'igiti, ibirahure bisa umukara, n'imodoka iparitse.

Ubusitani burimo indabo ndetse n'ibyatsi harimo intebe zisa umukara abantu bicaraho bari kuganira ndetse n'imitaka mu ruzitiro rukozwe n'utwuma ndetse rufite n'inkingi z'umweru.

Aho abantu bateranira bakaganira hari ubusitani burimo ibidukikije n'indabo hari n'imitaka itwikira abantu mugihe cy'izuba, intebe zo kwicaraho zisize amarangi atandukanye harimo umweru n'umutuku n'ubururu.

Icyumba giteguwe, gisa nki'kigiye guteraniramo inama hasi yashashwe igitambaro cy'umutuku, kirimo intebe z'ibara ry'umukara zikozwe mu byuma, imbere yazo ku meza hari igitambaro cy'ubururu bwijimye, hejuru ku meza hariho amacupa y'amazi apfundikiye.

Inzu igizwe n'ibirahure, urukuta rusa umukara, amatara ari kwaka, intebe z'aho abantu bicara baganira, indabo, ibiti, ndetse n'ikirere.

Iki ni ikigo cy'ubwishingizi cya bikeyi inshuwarensi, inzu mu ibara ry'umweru ibidukikije, indabo, ibirahuri bigize inzu, amatara ndetse n'ikirere.

Inzu iriho amarange y'umuhondo ibirahure by'umukara yanditseho ijambo Sonarwa ikikijwe n'ibidukikije birimo ibiti n'ibyatsi uruzitiro rwubatswe n'amabuye.

Inzu y'ubucuruzi, amakaro asa umukara n'umweru, amatara ari kwaka, ibyapa bisa ubururu n'umweru, biriho amagambo ya purayime.

Inzu ifite umuryango w'kirahure ufunguye intebe zicarwaho zisa ubururu ndetse n'amakaro y'umweru n'umukara ku muryango handitseho fonisi rwanda ishuwaresi kampanyi limitedi.

Umuryango uriho ibyapa bisa ubururu bigaragara ko hari ikintu gitegurwa kuhaba, hariho n'ibipirizo biri mu mabara atandukanye, uwo muryango wo ubwawo urasa umweru ndetse n'amakaro y'umweru

Inzu ikorerwamo n'urwego rutanga serivisi, ibiro, intebe, inkuta zisa umweru, utubati tubaje mu biti ndetse n'ibidukikije birimo ibiti ndetse n'abantu.

Inyubako ikoreramo Kuzo rimitedi amakaro y'umweru n'umukara, igikuta umweru, ibirahure.

Abantu bari hamwe barimo abafite uruhu rwera ndetse n'urwirabura, bicaye ku ntebe zisa ubururu ndetse hari n'ameza n'utubati bikoze mu biti bisize irangi ry'umweru ndetse na mudasobwa n'amagare.

Umugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi, wicaye imbere ye ku meza hari mudasobwa ifunguye, imbere ye hari umugabo wambaye ishati irimo imirongo, wicaye mu ntebe y'umukara, ufashe agakombe mu ntoki harimo ibyo arimo aranywa.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bambaye imyenda irimo iy'ibitenge bateraniye hamwe imbere y'icyapa cyanditseho cipiyefu ineza koperative porogeresi endi fayinanse ineza.

Inzu y'ubucuruzi ya koped pielise Kabuga bulanshi, mu ibara ry'ubururu n'umweru ibirahure ndetse n'amakaru hasi n'inzira nyabagendwa n'izindi zifashishwa n'abantu bafite ubumuga, biteye irangi ry'umweru n'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi y'urwego rushinzwe kubika amafaranga rwa Ayi andi emu banke mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Isoko ry'ubucuruzi, amabati, ubururu, urujya n'uruza rw'abantu, abagore, abagabo, ibinyabiziga, imodoka na moto.

Iduka ry'ubucuruzi ricururizwamo imyenda y'abagabo yambarwamo imbere ndetse n'imipira yo kwambara, iri mu mabara atandukanye, ipanze mu kabati kagenewe gupangwamo imyenda.

Abantu benshi bari hamwe abagore, abagabo bari mu isoko ricururizwamo imyambaro y'abadamu n'abagabo bari kuganira.

Isoko ryubakishijwe amatafari ibyuma amabati ririmo abacuruzi n'abahaha ibicururizwa mu isoko, isoko ricuruza inyanya amashu n'ibitunguru.

Isoko ricururizwamo imyambaro ndetse n'ibikoresho by'ubugeni nyafurika, itara riri kwaka, imyenda isa icyatsi n'ubururu yanditseho Rwanda.

Umugore wambaye imyenda ikozwe mu gitenge ari mu isoko hanyuranyuranamo uruhurirane rw'abantu bagiye batandukanye, ku isoko rifitemo imitaka myinshi cyane itwikiriye ibirimo biracuruzwa mu isoko.

Iduka ricuruza imyenda y'abagabo n'abagore, ibitenge by'amabara atandukanye, harimo ikorerwa mu Rwanda, imikandara, biteretse ku rubaho n'imitako y'ubwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu, abagabo, abagore bari mu isoko rusange ryubakishijwe amabati asa ubururu hacururizwamo imyenda ni kumanywa.

Isoko ry'ibiribwa n'ibinyobwa, umugore uri guseka wambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe n'imyenda y'umukara, umugabo urimo aramwakira.

Inzu yubucuruzi nyabagendwa irimo abantu benshi abagore, abagabo bahuriye hamwe mu bucuruzi bw'inkweto, ifite irange ry'umweru, amatara ari kwaka ndetse n'abantu bari kubisikana.

Isoko ririmo abagore, bicaye ku mashini zidoda, bacuruza imipira y'amaboko magufi, harimo imyenda isa n'iy'abagore, ikozwe mu gitenge, harimo ibiringiti byo gusasa, byo kuryamaho.

Isoko ry'ibiribwa birimo urusenda, imboga ndetse n'izindi mbuto zifashishwa harimo n'inyanya, iri mu bikarito.

Abantu barikugenda bafatanye akaboko bari mu nzu y'ubucuruzi icururizwamo imyambaro, inkweto, umugabo wicaye wambaye umupira w'ubururu, umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku amatara arikwaka.

Inzu ndende y'ubucuruzi igeretse kenshi mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku n'ibidukikije birimo ibiti n'amamodoka aparitse k'uruhande ndetse n'abantu bari kunyuraho n'ibikorwaremezo birimo amatara.

Umugabo wambaye impuzangano, yikigo cy'itumanaho cya MTN, ahagaze mu mutaka w'umuhondo, bigaragara ko ari uw'ikigo cy'itumanaho cya mtn, iruhande rwe hari umugabo wambaye umupira w'umutuku, uciye amaboko, wambaye amarineti.

Igikoresho cyifashishwa mu itumanaho; terefoni inziramugozi, m'ibara ry'umweru ikirango cya eyateri, serivisi ziri gutangwa, ibiganza by'imibiri yombi.

Abakozi bakora mu kigo cy'itumanaho cya emutiyeni Rwanda bambaye imipira y'umuhondo ibikuta bariho bisize irangi ry'umuhondo n'umweru icyapa cyanditseho kora simusuwapu y'ubuntu.

Umugore wambaye ikanzu y'umukara nu'umweru wambaye n'ikote ry'umweru uri gukoresha terefone yishyu mu buryo bw'ikoranabuhanga, imbere ye hari undi wambaye umupira wumundo ni pataro y'umukara ndetse n'ibiribwa n'ibinyobwa.

Aho banyweshereza amavuta y'imodoka, icyapa kiriho kode yishyurirwa ku buryo bw'ikoranabuhanga, telefone n'umugabo uyifite mu ntoki, moto iparitse n'ibindisho bizamo ibyo imodoka ikenera.

Abakozi b'ikigo cy'iitumanaho cya Emutiyeni bambaye imipira y'umuhondo bari kuri mudasobwa bari gufasha umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Umukozi w'urwego rw'itumanaho rwa emutiyene wambaye umupira usa umuhondo, ndetse n'umweru imbere hicaye umugabo wambaye umupira usa umukara, umutuku ndetse n'umweru, imbere yabo hari mudasobwa.

Icyapa cyifashishwa mu gutanga amatangazo yo kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga, cy'ishyirahamwe rya MTN, cyanditse mu mazina ya getipongo intapurayizi.

Inzu y'ubucuruzi iriho ibyapa bitandukanye mu ibara ry'umweru' ubururu' umutuku imbere haparitse ibinyabiziga yanditseho ihaha tekinoroji nikoni kanoni roji teke firipusi.

Amaguru y'umuntu wambaye inkweto zifunguye, ufite inzara zisize ibara ry'umweru, ahagaze kumakaro, inyuma ye hari utwuma dusukara.

Imodoka z'ubucuruzi mu ibara ry'umuhondo n'umweru zanditseho twiga, ziparitse mu muhanda w'umukara urimo amarangi y'umuhondo, ndetse n'umukara. Inyuma yayo hari inzu y'ubucuruzi iri mu ibara ry'umweru n'icyatsi.

Urukuta, rw'ikoranabuhanga, rucururizwaho ibuntu kuri murandasi. hagaragaraho ikanzu, inkweto, ibikapu, amasakoshi, ibikoresho by'ubwiza abagore bakoresha.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, ufite umusatsi muke ibara ry'uruhu ni igikara, afite igikarito mu ntoki.

Urubuga rukorerwaho igurishwa ry'ibiribwa n'ibinyobwa, hagaragaraho amashusho y'ibiribwa birimo imbuto ndetse n'imboga, n'ibiciro bigenewe kuba byagurishirizwaho.

Moto yifashishwa mu gutwara ibintu byatumwe yanditseho rashifudu mu ibara ry'umweru n'umukara ndetse n'umutuku, itwawe n'umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Abagore babiri n'umugabo umwe bicaye ahacururizwa ibikoresho by'ikoranabuhanga, ku meza y'igiti iriho n'ibyapa by'umweru n'ubururu byanditseho Ruti Rwanda onorayini sitowa.

Inyubako isize irangi ry'umweru n'iry'ubururu bwijimye, ifiteho ibirahure by'umukara, uruzitiro rwayo rugizwe n'ibyuma.

Inzu ifite ubwiherero busa umweru ndetse n'aho bitunganyiriza mu bijyanye no koga hari amakaro asa umweru ,handitse hiya izi wati 130 miriyoni Rwf buyizi yu ini kigali Rwanda ( here's what 130 m Rwf buys you in Kigali Rwanda).

Icyumba cy'uruganiriro, intebe zisa umweru, imisego, ikibambasi gisa umweru, amatara ari kwaka.

Inzu igeretse rimwe, ifite irange ry'umweru ndetse n'utubuye twometseho, ifite uruzitiro rw'ibirahure, runasize irangi ry'umweru ndetse n'umuhanda nyabagendwa imbere yayo.

Umugabo wambaye umwenda w'akazi ufite ibara ry'icyatsi n'umukara, ahagaze mu muhanda w'igitaka inyuma ye hari amazu, akikijwe n'uruzitiro ndetse n'ibidukikije birimo ibiti, imirima, ndetse n'ibyatsi.

Inyubako isize irange ry'umweru, amakaro y'umweru ifite ibirahure, intebe zo kwicara ukaganiramo, ibidukikije birimo igiti ndetse n'indabo n'inzira y'abanyamaguru.

Inzu yo guturwamo ifite uruzitiro, iparitsemo imodoka mu ibara ry'umweru, inyubako ifite amabati y'umutuku ndetse hariho n'ibidukikije n'imiryango.

Inyubako igeretse kabiri isize irangi ry'umuhondo n'iry'umweru, ibirahure ni umukara, igipangu ni umweru n'amatafari y'umuhondo.

Inzu igeretse kabiri mu ibara ry'umweru n'umuhondo, ibirahure umukara, uruzitiro rukikijwe n'utwuma ndetse n'amatara.

Inzu y'imiturire, ifite ibara ry'umweru, igeretse kabiri, ibirahure, ubusitani, inzira nyabagendwa irimo utubuye tw'umweru ndetse n'ibidukikije birimo ibiti n'ibyatsi.

Inzu igeretse rimwe, mu ibara ry'umweru, ibirahuri, inzira nyabagendwa irimo amapave, ikirere umweru n'ubururu.

Inzu iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara n'umuhondo, amakaro ni umweru, amagambo yanditse, irakodeshwa, iherereye hano ku Gisozi, ibyumba bitanu salo, saramanje, wesi enye, kwizine, inzu y'umukozi hanze n'ibindi.

Inzu urugi rw'umukara rufunguye, idirishya, akabati k'umukara, amakaro y'umweru, amagambo inzu ikodeshwa ibihumbi ijana mirongo itanu, icyumba kimwe, ubwogero n'igikoni.

Inzu y'ubucuruzi icurizwamo ibyo kunywa bipanze mu tubati dutanu tugerekeranyije, biri mu macupa no mu makarito, amatara ari kwaka.

Isoku rihahirwamo ibiribwa ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa buzima bwa buri munsi, umugabo wambaye umupira w'umuhondo, nundi wambaye umupira wumukara, ibirahuri, amatara yaka ibara ry'umweru.

Isoko ry'imyambaro, amakote n'amapantaro, ririmo abaguzi, abagore n'abagabo, bambaye imyenda y'umweru n'umutuku.

Inzu ndende y'ubucuruzi igeretse inshuro nyinshi hagaragaramo ibyapa bitandukanye nk'icyanditseho coyisi fashoni isaro kidizi sitowa hagaragaramo n'imyenda ndetse harimo n'indabo.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru, ufite imisatsi isutse y'umukara ndetse na andlope mu ntoki, wambaye ipantaro y'umukara, ari mu isoko rihahirwamo ibiribwa inyanya, ibitunguru, amatara ari kwaka.

Isoko ryi'biribwa n'ibinyobwa ndetse n'ibindi bikoresho, amakaro y'umweru, bipanze mu tubati, umugore wambaye ikanzu y'umutuku ufite imisatsi y'umukara.

Inzu y'ubucuruzi nyabagendwa, amakaro y'umweru n'umukara, abantu, abagore, abagabo, imyambaro icururizwamo.

Inzu ndende y'ubucuruzi, iri iruhande rw'umuhanda uri kunyuramo ibinyabiziga bisa umweru ndetse n'umukara, ibidukikije bisa icyatsi, birimo ibiti ndetse n'ubwatsi.

Abantu bateraniye hamwe bari mu mikino abambaye imipira y'umweru ndetse n'umwana ufite umupira wo gukina mu ntoki, ibyapa byanditseho ejo heza mu ibara ry'umweru ubururu ndetse n'icyatsi.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki isa umukara, yambaye umupira w'umweru ndetse wanditseho amagambo RSSB, inyuma ye hari icyapa gisa umweru, cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara n'umweru.

Inzu mu ibara ry'umuhondo, ibirahuri bisa ubururu, ikirere gisa umweru yanditseho amagambo RSSB, Rwanda soshoal sekiriti bodi awa herifu awa fiyuca.

Icyapa kiriho umugore n'umugabo bashaje, bambaye imyenda y'umweru, cyanditseho: "Ejo heza, ubwizigame bw'igihe kirekire, uzakomeza kubaho neza no muri pansiyo".

Abagore n'abagabo bahagaze hamwe, harimo abambaye ibitenge ndetse n'amakote, bari imbere y'inzu ifite irane ry'umuhondo n'ibirahure, bafite icyapa mu ntoki, cyanditseho ketiyeni Rwanda limitedi.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, ufite indangururamajwi, uri mu kibuga rwagati, ushagawe n'abantu bambaye imyenda y'umweru ndetse n'iy'andi mabara, inyuma ye hari icyapa cya arayesesibi, ndetse n'inzu isakajwe amabati y'ubururu n'amatafari y'umuhondo.

Abantu bari hamwe abagore, abagabo, abana bari mu mikino n'imyidagaduro ku bibuga byabugenewe, inzu yubakishwa amatafari y'umuhondo ndetse n'amabati y'ubururu.

Abagore bicaye ahantu hamwe, hubakishijwe ibikuta bifite irangi ry'umweru, hubakishijwe amakaro hasi, bicaye bakikiye abana ku matako, bafite mu ntoki ibipapuro biriho n'ikaye.

Umugore n'umugabo, bari mu nama, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza y'igiti, bari kuri mudasobwa, icyapa cyari cyanditseho RSSB, imbere yabo hari amazi.

Inzu y'ubucuruzi, umugore wambaye umupira w'umukara uri guseka, ufite igicuruzwa mu ntoki, imbere ye hari umuntu, ishati y'umweru.

Isoko rihirwamo mu buryo rusange, ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bipanze mu tubati tugerekeranye, amakaro arasa umweru ndetse amatara arimo araka n'ibyapa bigaragaza ibiciro.

Umugabo wambaye ikote ry'icyatsi n'umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero, ari mu iduka ricururizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa bifunze mu makarito ndetse no mu macupa harimo ayaamavuta ndetse n'ibindi bitandukanye bigeretse m'utubati.

Isoko rihahirwamo ibiribwa n'ibinyobwa, umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, utubati turimo amacupa.

Icyapa cya simba mu ibara ry'umweru amagambo yanditse m'ibara ry'umutuku ibinyabiziga biri kunyara mu muhanda nyabagendwa usu umukara, amatara ari kwaka ndetse n'ibindi bikorwaremezo biri ku ruhande.

Isoko ricururizwamo ibinyobwa bipanze mu tubati, hari ibiri mu makarito n'ibiri mu macupa asa umuhondo n'umutuku.

Isuku rusange, amatara ari kwaka, abantu, abagore, abagabo, imyenda y'umukara, ibicuruzwa, ibiribwa n'ibinyobwa, n'ibyikorana buhanga.